Buwate ni ahantu abantu babyinira iyo bamaze kunywa inzoga. Haba harimo imiziki myinshi cyane ku buryo umuntu uri muri bare aba afite ibyishimo bihagije cyane kubera ko aba amaze guhaga inzoga rero bituma agira ibyishimo.

Bare zikunda kugira abakiriya ni ijoro, kubera ko abantu bose baba bavuye ku kazi, bakeneye icyo kunywa n'icyo kurya, iyo muri muri bare haba hari kwaka amatara, ariko atari gutanga urumuri runini cyane.

Muri bare haba harimo ibintu byose bigiye bitandukanye, cyane cyane haba harimo mucoma uzi guteka burushete ziryoshye cyane, ku buryo iyo uriye burushete uba uri kumva wakomeza ukarya n'izindi kubera ukuntu ziba ziryoshe cyane.

Ifiriti na mayoneze biraryoha cyane, iyo uri kubirya birajyana, kandi umuntu wabiriye aba afite ubuzima bwiza cyane, kuko uba uri kubibona ko ameze neza.

Imigati iraryoha cyane abana barayikunda, abagabo barayikunda n'abagore barayikunda, umuntu iyo ari kurya umugati kuwunywesha igikoma, aba yaryohewe cyane, ku buryo agira apeti idasanzwe.

Akabari kabamo inzoga zimara inyota, abantu bakunda ndetse habamo na firigo zikonjesha inzoga, kugira ngo mu gihe cy'izuba abantu banywe inzoga ziri kubamara icyaka.

Bare zibamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye zibamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi bagira n'inyama ziryoshye cyane. cyane cyane burushete z'ihene, bacuruza n'akabenzi kameze neza cyane.

Abagabo iyo bahuriye mu kabari bagwije urugwiro baba bishimye cyane, ku buryo inzoga bari kunywa ziba zabaryoheye, nawe iyo uri kubareba uba uri kubona ibyishimo byabuzuye umutima.

Bare zigira ibintu byinshi bigiye bitandukanye . Zigira ibyo kunywa ndetse zigira n'ibyo kurya cyane cyane zigira inzoga z'amoko yose . Ku buryo inzoka yose ukeneye wiyisanga muri bare , ndetse sinzoga gusa bagira n'amafanta.

Bare zibamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, usanga harimo: ibyo kunywa, ndetse n'ibyo kurya. Cyane cyane abantu bajyamo bari kuganira, bari gufata ibyo kunywa bamara gufata ibyo kunywa, bakungurana n'ibitekerezo.

Burushete iraryoha cyane, kubera ko iba imeze neza cyane, umuntu wariye burushete aba afite ubuzima bwiza, abantu benshi barazikunda ku buryo iyo waguze burushete ukayirya wumva wagura n'indi.

Abakozi bakoraga mu kabari babaga bambaye imyenda zisa kandi migufi, gusa abo bakobwa baba bashimishije kubera ko baba bari gutanga serivisi nziza ku bakiriya ku buryo iyo baguhaye serivisi ubutaha wumva wazagaruka.

Utubari tugezweho tuba tugizwe n'ibintu bikurikira: haba harimo inzoga z'ubwoko bwose, kandi inzoga zikonje n'izishyushye, bakagira n'ibyo kurya.

Ahantu hubatse amazu y'ubucuruzi haba hameze neza cyane, kuko aba yubabatse ku murongo, kandi nta kintu wahakenera ngo ukibure, kuko byose biba bihari. Usanga hari n'abakozi ba MTN bari gucuruza amayinite.

Ahantu bacururiza ibyo kurya, haba hari ibyapa bigaragaza ibyo bafite usanga bafite urugero nk'ikawa cyangwa se ba biba byanditsweho ku buryo umuntu uhaje ahita yibwira ko ari resitora bacururizamo ibyoku kurya.

Abantu bakora amagare baba ari abahanga, kandi baba bazi no gukora ibintu byinshi cyane. Kubera ko usanga iyo igare ry'umuyonzi ripfuye, ararijyana akarimukorera akamuha amafaranga. Nuko uwo muntu umukoreye igare akabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Inzu z'ubucuruzi ziba zubatse ku muronko kandi ziba zubatse imbere yazo ziriho amakaro ku buryo iyo ugiye kuguriramo ibintu uyobozwa n'ibyapa biba bimanitse imbere. Amabotike abamo ibintu byinshi dukenera hari aho baba bari gucuruza inyama cyangwa ahandi bakaba bari gucuruza ibyo kunywa n'ibyokurya.

Betarandi bagira ibyo kunywa, bagira akabenzi karyoshye cyane, agira n' inzoga zikonje nkiyo ari ku izuba ukazinywa wumva umeze neza cyane.

Inzu bacururizamo ibiryo by'amatungo haba harimo igiheri cy'ubwoko bwose, haba harimo igiheri cy'ibigori, hakabamo igiheri cy'ingano ndetse habamo n'ibisigazwa by'indagara.

Kenkayori zigira ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubwubatsi, urugero amarangi, imisumari n'inyundo zo kubakisha, iyo ugiye muri kenkayori kuguramo ibikoresho uba ukeneye kubaka.

Ikinyabiziga cya moto gifitiye abantu benshi akamaro, kubera ko nk'iyo ugiye kuzajya ahantu kure, uratega maze moto ikakugeza ahantu ushaka kujya bikoroheye, kandi n'umumotari utwaye moto bimufasha kubona amafaranga akiteza imbere.

Amazu y'ubucuruzi, aba yubatse ku murongo, yekeranye n'umuhanda, kugira ngo abacuruzi babone abakiriya byoroshye, kandi amazu y'ubucuruzi, kubera uburyo aba yubatsemo bayomekaho amakaro, kugira ngo imvura itazajya igwa, igasenya urukuta.

Inzu z'ubucuruzi ziba ziri ku muhanda, ziba zirimo abantu bagiye batandukanye, n'ibicuruzwa byabo, nk'urugero abagabo bamwe bari gucuruza inzoga, akenshi usanga haparitse abamotari, bategereje abagenzi.

Inzu z'abakozi ba emutiyene， ziba zisize irangi ry'umuhondo，zanditseho ibirango byabo bya emutiyene，bigaragaza ko ariho bakorera. Akenshi usanga abanyonzi ba paritse hafi yaho， kugira ngo bategereze abagenzi.

Butike igira ibintu bigiye bitandukanye urugero usanga bafite nk'umuceri, cyangwa bakaba bafite isukari cyangwa voka, ku buryo iyo ugiye kugurirayo ibintu birakorohera cyane, kuko usanga ibintu byose babifite ibyo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Horumoni mini maketi habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bacuruza imigati, bacuruza korogate, ndetse bacuruza n'amata. Iyo ukeneye ibintu byo kunywa byose ni ho ubisanga.

Ibiraha biraryoha cyane abana barabikunda n'abantu bakuru barabikunda, iyo uri kurya ikiraha wumva kikuryoheye kandi cyane cyane iyo ugiye kukirya ukakirya mu gitondo birafasha kubera ko iyo uri kukirisha avoka biba bimeze neza cyane.

Icyapa kigaragaza aho WASAC ikorera n'umuyonzi utwaye igare n'abandi banyonzi babiri bari gusunika umuceri ku magare n'udufuka tundi, kugira ngo babone uko baronka amaramuko.

Amazu y'ubucuruzi aba yubatse iruhande rw'umuhanda, ku buryo iyo umuntu wese agiye kugira ibyo aguriramo, aba ari guhita ahabona vuba bimworoheye, kandi biba byiza iyo ahinzeho igiti iruhande rwa yo kuko biba ari byiza cyane.

Ahantu bacururiza matera, haba hari matera zigiye zitandukanye, kugira ngo buri muntu wese uje kugura matera, abone matera ashaka, akenshi usanga harimo matera nini, intoya, ndetse hakabamo n'izo abanyeshuri bajyana ku ishuri.

Isoko ricuruza imyambaro y'abana iba irimo imyambaro igiye itandukanye imyenda ya siporo, imyenda yo kujyana gusenga, ndetse n'ibindi byinshi nk'imipira y'imbeho.

Botike habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bacuruzamo ibibiriti, bacururizamo umunyu, bacururizamo n'ibintu byo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, ku buryo umuntu iyo akeneye kugura ibintu byo kurya ahita ajya kuri botike

Sikoro igira ibintu byinshi bimara icyaka bigiye bitandukanye. Bagira panasha, bagira na sikoro, inzoga zo kunywa usanga abantu benshi bakunda kunywa sikoro kubera ko ntabwo zitera hangova.

Inzu bakoreramo ibikoresho bya eregitoronike bigiye bitandukanye, nka terefoni, tereviziyo, imashini, na radiyo, ndetse besitara ama watsapu muri za terefone, besitaramo na za yutubi.

Inzu bakoreramo ubucuruzi, iba irimo ibintu bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Haba harimo amazi ya Jibu, ndetse haba harimo n'amaji na fanta, za novida, haba hari n'aho bacururiza mitiyu. Aho bacuruza mitiyu haba hari icyapa n'umutaka wa MTN.

Iduka ribamo ibintu bigiye bitandukanye, bacururizamo intebe zo kwicaramo, bacururiza ingofero zo kwambara mu mutwe. Abagabo barazikunda cyane, kuko ingofero zibarinda izuba ryinshi mu mutwe, bigatuma ritabageraho.

Inzu bacururizamo ibihaza, iba iriho n'udufuka ku buryo iyo uguze ibihaza byinshi, baguha n'agafuka ko gutwaramo ibyo bihaza uguze, baba bari gucururizamo n'amakara yo kujya gutekesha ibyo bihaza uba uhaguriye.

Butike zibamo ibintu bigiye bitandukanye, urugero habamo tingitingi, abanyeshuri barazikunda cyane, hagamo magi zo gushyira mu isombe n'izo gushyira mu isosi kugira ngo isosi iryohe, bagira n'amakayi y'abanyeshuri yo kwandikamo.

Muri Besite hawuze habamo amacumbi meza cyane. Iyo unaniwe ujyamo ukaruhukiramo, ukumva umeze neza cyane. Kubera ko haba harimo n'abantu bashinzwe kukwitaho, ku buryo ubamo ufite ubuzima bwiza cyane.

Kwa Kanuma ni ahantu bacururiza imigati myiza cyane iryoshye, umuntu wahahiye umugati kwa Kanuma aba ari kumva nta handi hantu yahahira, imigati abana barayikunda n'abantu bakuru barayikunda.

Amazu y'ubucuruzi abaga afite ibikoresho bigiye bitandukanye. Kugira ngo umenye inzu icyo ugiye kuguriramo ureba ku cyapa, kubera ko haba hariho ibyapa bigiye bibatandukanye, icyapa niko kamaro kacyo.

Inzu bakoreramo amatelefoni, amaradiyo, amapasi n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba hafite icyapa cyerekana ibintu byose bakora, hariho na nimero zabo mu gihe usanze badahari ukabahamagara.

Botike zigira ibintu bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, urugero baba bafite ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse baba bafite n'amavuta yo kwisiga, ku buryo iyo ubakeneye uragenda bakabiguha ukabaha amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi iba irimo ibintu bigiye bitandukanye bacururizamo gaze, bacururizamo amavuta yo kwisiga, kandi baba bacururizamo n'amagi yo kurya, bakaba bacuruza n'umuceri.

Amazu y'ubucuruzi aba yubatse impande y'umuhanda, ku buryo iyo ugiye kuhahahira uba uri kubona umuryango ushaka kwinjiramo, kandi aba afite ibyapa biyaranga ku buryo utapfa kuyoba bitewe n'ahantu ugiye.

Ahantu habera ubukwe haba hari icyapa kiharanga, urugero haba handitsweho amahoro gadeni. Kandi haba hari na nimero ku buryo iyo uje utayoberwa ahantu ugiye. Haba hari n'igipangu cyiza cyane giteyeho uturabo ku buryo iyo uri kurebesha ijisho ubona ari byiza cyane.

Ahantu bacururiza mitsingi haba hari icyapa kiri kubigaragaza, kandi iyo ari ku izuba ukanywa mitsingi ikonje, uba wumva umeze neza cyane kubera ko ikumara icyaka.

Inzu z'ubucuruzi ziba zifite ibyapa bizigaragaza, kandi ziba zubatse neza cyane zisakarishijwe ibyuma, kugira ngo imvura ntibashe kuba yakwinjira mu nzu aho bari gucururiza.

Ahantu bacururiza mitsingi haba hari icyapa kigaragaza ko bazicuruza, kandi mitsingi iraryoha cyane ku buryo iyo unyweye mitsingi ikonje ku mvura, cyangwa kuzuba wumva uguwe neza cyane.

mazu y'ubucuruzi aba yubatswe ku murongo akagaragara neza cyane, cyane cyane aba ari imbere y'umuhanda ku buryo abantu bahanyuze babona ibiri gucururizwamo bakabigura, abana bakunda kuzinduka cyane cyane iyo bagiye ku ishuri babaga bahetse agakapu bambaye n'iniforume.

Amazu y'ubucuruzi aba arimo ibintu bigiye bitandukanye nkaho' usanga bamwe bakoreramo, bakina imikino y'amahirwe abandi ugasanga bacururizamo kenkayori.

Inzu bacururizamo imiti y'amatungo iba ari inzu nziza cyane, cyane cyane iba ifitiye akamaro aborozi kubera ko iyo inka cyangwa ingurube zigize ikibazo bajya kugurirayo imiti maze inka zikaba zakira.

Inzu bacururizagamo imyenda, iba irimo imyenda igiye itandukanye kandi haba harimo amakoti, amapantaro, ndetse haba harimo imyenda isa ku buryo ipantaro iba isa n'umupira wayo biba ari ibintu bisa neza cyane.

Ahantu bacururiza amatelefoni, haba hari telefoni zigiye zitandukanye, haba hari telefoni za Tekino kumwe n'iza Eyateli, kandi iyo umuturage agiye kugura telefone, biramworohera guhitamo telefone ashaka.

Butike ibamo ibintu byose bigiye bitandukanye. Urugero wasanga harimo imyenda y'akazi, haba harimo amatiyo yo gukoresha mu gihe, uri kwensitarara inzu yawe mo amashanyarazi. Kandi haba harimo n'amatiyo yo gu nkwesitaza umugezi mu gihe ugiye gufata amazi.

Abacuruzi iyo bategereje abakiriya baba bicaye batuje bari kwitegereza impande n'impande, ahantu bacururiza haba hari amabaro, hari amasaha, hari amasupaguru, ndetse haba hari udusume, ku buryo akenshi iyo uje kureba ibyo uje kugura ukunda, uhita ubibona vuba byihuse.

Kwa teta shopu bakora ibintu bigiye bitandukanye, bacuruza amashakoshi y'abagore ndetse bakora n'ibintu bijyanye n'irembo, bakorana n'amabanki agiye gatandukanye harimo nka za ekwiti, ndetse n'iyo ugiyeyo ugasanga badahari, usanga hari icyapa kiriho nimero zabo ugahita uhamagara bakaza bakagufasha.

Indabo ni nziza cyane, urugo ruteyeho indabo ruba rugaragara neza kandi kwifotoreza imbere yindabo ifoto yaho iza imeze neza cyane. Abantu benshi bakunda ifoto iba impande y'indabo.

Inzu bacuruzamo imyenda ibaga irimo imyenda igiye itandukanye cyane cyane harimo imyenda y'abakobwa imeze neza cyane y'amabara yose ku buryo iyo ugezemo ntabwo wabura umwenda utwara.

Bacururizamo iyo ifite ahantu bakarabira intoki biba byiza cyane kubera ko bituma abantu birinda umwanda, bakagira isuku bakirinda kuba bakwirakwiza icyorezo icyo ari cyo cyose.

Ngoga fashoni acuruza imyenda igiye itandukanye cyane cyane akunda gucuruza imyenda y'abagabo urugero nk'amakoti , amakositimu, inkweto zifunze, sandari kumwe n'udupira duciye amaboko.

Ibyapa bigira, akamaro gakomeye cyane, kubera ko nk'iyo ugiye ahantu ukahasanga icyapa, uragisoma, bikagufasha kumenya ahantu ugiye bikoroheye, ntabwo utinda mu mayira uri kubaririza abantu bose, kubera ko uba wabisomye ku cyapa kikuyobora ahantu ushaka kuzajya.

SACCO zigira akamaro kanini cyane kubera ko zibikira abaturage amafaranga bakabaho batekanye kandi iyo bakeneye n'inguzanyo zibaha amafaranga bakiteza imbere.

Thierry Teka akora serivisi zigiye zitandukanye nko gukora televiziyo, gukora telefoni, gukora radiyo ndetse n'iyo ukeneye amapiyesi amwe na amwe arayaguha ukayagura.

Amazu y'ubucuruzi basigaye bayubaka bakayomekaho amakaro, kugira ngo imvura itaza ikangiriza izo nkuta. Gusa biba bisa neza cyane kuko amakaro atuma imvura idasenya inzu uko yiboneye.

Ahantu bacururiza inzoga za mitsingi haba hari icyapa kigaragaza inzoga bacuruza, kandi mitsingi ziraryoha cyane, cyane cyane abapapa barazikunda iyo zikonje, bakunda kuzinywa ku izuba.

Isoko ni ryiza ridufitiye akamaro kenshi. Usanga harimo imbuto zigiye zitandukanye, imboga z'ubwoko bwose, ndetse rigira n'ibirayi. Iyo uvuye guhaha usanga hanze hari abamotari n'abanyonzi bategereje kugutwara, bakakugeza aho ushaka kujya.

inzu bacururizagamo ibintu bigiye bitandukanye byo kunywa. Iba ifite icyapa kigaragaza ibintu bafite. Urugero haba hariho nimero za nyiri butike, kandi haba hariho n'ibintu byose bacuruza, ku buryo iyo usanze adahari uhamagara nimero ze, akakubwira niba araboneka vuba. Bikaba byagufasha kumenya igihe urategereza uko kingana.

Kenkakayori zicuruza amarangi, ziba zirimo amarangi agiye atandukanye kandi y'amoko yose, baba bazi no kuyavanga neza cyane, ku buryo ibara ushaka utaha uribonye.

Amazu y'ubucuruzi aba arimo ibintu bigiye bitandukanye, akenshi usanga afite isuku kugira ngo abakiriya baje kubateza imbere batabona umwanda, baba bafite umukubuzo bakoresha amasuku buri kanya babonye ha.......

Inzu z'ubucuruzi kubera ukuntu ziba ziri ku murongo umwe, haba izifite icyapa kigaragaza ibintu bacuruza, kugira ngo umukiriya naza, amenye aho arajya, n'ibyo arasangamo.

Ahantu baranguriza inzoga haba harimo inzoga z'ubwoko bwose, kandi haba hari n'icyapa kigaragaza inzoga bacuruza izo ari zo. Baba bafite mitsingi, bakagira na pirimusi, ku buryo iyo ukeneye inzoga bihita bikorohera.

Akazu gatoya kari ku muhanda kabamo imyenda yo kwambara, igiye itandukanye harimo n'amasengeri wakwambara ugiye muri siporo, gateganye n'akazu ka emutiyene umu ajenti waho aba ari gucuruza amayinite, ako kapa ka emutiyene kaba kariho ibirango bya emu.....

Butike ni nziza cyane kubera ko igira ibikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane hari ahantu baba bari gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi nk'ingorofani, amatiyo ndetse n'insinga.

Inzu yambika abageni iba iriho icyapa kigaragaza ko ari byo bakora. Kandi baba bashyizeho na nimero zabo, ku buryo iyo ubakeneye ubahamagara kuri izo nimero. Kandi niba usanze badahari wandika izo nimero ukabahamagara ukababwira ko wababuze.

Amazu y'ubucuruzi iyo ari ku muhanda, aba yubatse ku murongo umwe, kandi aba arimo ibintu bigiye bitandukanye wasanga bari gucururizamo ibyo kurya ibiribwa bigiye bitandukanye, habamo n'aho bogoshera abantu imisatsi, kandi biba ari ibintu byiza cyane kubera ko biba biteje igihugu cyacu imbere.

Imineke n'inanasi biraryoha cyane, ku buryo usanga abantu kwa muganga babategetse kugura imbuto kugira ngo bagire ubuzima bwiza cyane, kuko imbuto zirakenerwa cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Banki zifitiye abaturage akamaro kanini cyane kubera ko zitubikira amafaranga akaba afite umutekano, kandi n'iyo ukeneye inguzanyo barayiguha maze ukaba wajya kwiteza imbere.

Banke igira akamaro gakomeye cyane, kuko iba ibikira amafaranga abaturage, n'uko ikayacungira umutekano, kandi n'abakeneye inguzanyo irabaguriza, bakazishyura mu gihe kigiye gitandukanye.

Hoteri cyangwa moteri, habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Habamo amacumbi y'ahantu baruhukira iyo umuntu ananiwe. Kandi bagira n'amasare aberamo ubukwe, kuhifotoreza biba ari byiza cyane.

Indabo zitondagira ku mazu ziba nziza cyane kuko iyo uri kubireba uba uri kubona bigaragara neza cyane akarusho iyo zageze ku mabati y'iyo nzu zatondagiye.

Resitora ibamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyo kurya, n'ibyo kunywa. Bagira inyama nziza cyane , iyo uziriye wumva wakomeza ukazirya, kubera ko ziba ziryoshye cyane.

Hoteri ni ahantu haba hashimishije cyane, kubera ko haba hagaragara neza cyane, haba harimo ibibumbano by'ingagi, ndetse haba harimo n'udutako tugiye dutandukanye, haba hafite n'ahantu ho kwicara kugira ngo uruhukiremo neza utekanye.

Aho abana barira iminyenga haba hasa neza cyane, ku buryo n'iyo nawe urebesheje amaso uba ubona ari byiza cyane bishimisha abana, n'abagabo barabikunda.

Hoteli zigira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuberako usanga zifite ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, kandi hoteli ziba zifite ahantu ho kuruhukira ku buryo iyo ukeneye kuryama baguhaga icyumba giteguye neza cyane cyo kuruhukiramo. Kandi baba bafite n'amapisine yo kogeramo.

Imikubozo igira akamaro kagiye gatandukanye, kuko urugo rufite umukubuzo, ruba bufite isuku, kuko ziba zikubura, bazikuburisha noneho isuku ikagaragara.

Butike zigira ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane habamo soya, ifu y'igikoma, kandi bacuruza ubunyobwa, bagacuruza n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye, dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Agasoko gafitiye abaturage akamaro gakomeye cyane. Yaba abagacururizamo ndetse n'abaza kugahahiramo, kubera ko kaba karimo ibintu bigiye bitandukanye. Urugero haba harimo inyanya, hakabamo ibitunguru, n'ibindi bintu byinshi kandi tubikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Botike ziba zirimo ibintu bigiye bitandukanye, urugero haba harimo amavuta yo kurya, harimo amakaroni, kandi baba bafite n'ibitunguru, n'ibirungo, na tungurusumu. Ku buryo iyo ugiye guteka byose urabihasanga ukabigura ukajya guteka ibiryo biryoshye cyane.

Mu isoko haba harimo ibintu bigiye bitandukanye. Haba harimo abasore bashinzwe kwikorera imizigo iremereye, kandi iyo bayikoreye urabahemba kuko ni byo biba bibabeshejeho.

Mu gasoko haba harimo ibintu bigiye bitandukanye, haba hari abantu bari gucuruza inkweto, ndetse haba hari n'abantu bari gucuruza imigati, bari kuyicururiza mu ndobo ku buryo iyo ukeneye umugati uramuhamagara agahita awugu......

Kompiyuta zidufitiye akamaro kagiye gatandukanye cyane cyane abanyeshuri bazikoresha iyo bari kwiga, cyangwa bari kusacinga ibintu bigiye bitandukanye byabafasha, kugira ngo amasomo yabo agende neza cyane.

Amasoko agiye agifitiye abantu akamaro kenshi cyane, kubera ko usanga bari gucuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'amakuvurori, imipira, amashuka ndetse n'ibindi bintu byinshi bigatuma umuntu uri gucuruza muri iryo soko abona amafaranga akamutungira umuryango we.

Imyenda bacururiza hanze, iba ari imyenda myiza kandi iba iri kugura amafaranga make cyane, iba irimo amabara agiye atandukanye, haba harimo n'imipira y'imbeho myiza cyane.

i Indiga ni igikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera kubera ko indiga tuyifashisha turi guhata ibirayi, cyangwa turi gutonora igitoki. Kandi gakoco nazo turazikenera cyane, kubera ko zidufasha gufata imbeba.

Mu isoko habamo ibintu bigiye bitandukanye bacururizamo ibikapu, bacururizamo amatelefoni ndetse bacururizamo n'imyenda yo kwambara, iyo ugiye mu isoko kugura ibintu byinshi ubisangamo.

Agasoko bacururizamo ibintu bi igihe bitandukanye, haba harimo inkwi, ndetse kandi bacuruzamo n'ibiribwa ku buryo iyo ugiye kugura ibijumba ubisangamo, ndetse n'iyo ugiye kugura ibisheke nabyo wa ubisangamo kandi bihendutse.

Tungurusumu zidufitiye akamaro gakomeye cyane, mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko tungurusumu ivura mu nda kandi ni iyo uyitetse mu mboga, ituma imboga zihumura neza cyane.

Isoko bacururizamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye: haba harimo ama ji, hakabamo ama fanta, hakabamo amata, ndetse n'ibindi bintu byinshi. Abantu benshi barabikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amasoko bacuruzamo ibintu biguye bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa bo bwa buri munsi, usanga bafite amasabune, bafite amavuta yo kwiziga, ku buryo iyo ugiye kuhagurira uhita ubibona byihuse.

Umunzani ufasha abacuruzi upimira ibintu bari gucuruza cyane cyane upimira ibiro nk'umuntu yaje kugura ikiro ugipima neza cyane, bigatuma umucuruzi n'umukiriya atagira uwiba undi.

Amajeri araryoha cyane, noneho iyo wafashe amajeri ukayatekana n'igitoki biba biryoshye, ku buryo abantu babikunda cyane, kandi byongera imbaraga, bikarinda n'indwara mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Intonore ni ibishyimbo biba bitari byera neza, babisoroma iyo ibishyimbo biri kubura gake kugira ngo byume, biraryoha cyane kandi bigira intungamubiri zihagije.

Ahantu bacururiza imbuto haba hari imbuto z'ubwoko bwose urugero: amaronji, haba hari wotameroni, imyembe ndetse haba hari na marikuca, imbuto zigira akamaro kenshi ku buzima bw'abantu kuko zirinda indwara.

Amafi aryoha cane cyane ku bana agira akamaro gakomeye cyane, arinda abana kurwara bwaki kandi amafi atuma abana bakura neza mu mikurire yabo no m'imitekerereze yabo.